Ni umwana wishimye cyane ufite ibirahuri byamazi asa neza ariko akaba ahagaze iruhande rw'ikiziba cy'amazi asa nabi yishimye cyane anejejwe no gufatwa ifoto ndetse n'ibyo ari kubona n'ibyo ari kubwirwa.

Ni abantu bari kuvoma amazi bishimye cyane ndetse n'abana bari kozwa bakurwaho umwanda n'amazi meza n'isabune , mu rwego rw'uko isi yose imaze gukwirakwira amazi asukuye

Ni itsinda ry'abantu bakunze kwitwa abajyanama bafasha abaturage mu midugudu igiye itandukanye mu kubavura bakabasubiriza ubuzima bwabo ku murongo bitarinze bigorana ngo bajye mu bajye mu bitaro byisumbuyeho.

Ni bana batoya bishimye basuwe n'abazungu ndetse n'abarezi babo bari kubahugura babigisha mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Ubuyobozi bw'u Rwanda bwashyize ibigomero by'amazi mu duce dutandukanye tw'u Rwanda, ibi bikaba byarafashije Abanyarwanda kubona amazi byihuse ndetse no gutera imbere byihuse.

Umwana uri gukaraba amazi meza n'isabune kuri kandagira ukarabe, mu gihe avuye ahantu hatandukanye nko muri toilette, nko gukina, bishobora gutuma intoki ze zihura n'udukoko dushobora gutera indwara zigiye zitandukanye.

Muri Afurika abantu bagiye begerezwa amasoko y'amazi kugira ngo babashe kubaho neza ndetse batere imbere byihuse aba ni abana bari kuvoma ku mugezi.

Abaturage bari kuvoma ku isoko y'amazi, yubatswe mu rwego rwo gukwirakwizwa, amazi meza mu baturage yo gukoresha imirimo myinshi igiye itandukanye, harimo nko gufura, guteka, kunywa no gukora isuku ndetse n'ibindi.

Ni ihuriro ry'abantu bateganyirijwe no kwigishwa, guhugurwa, ndetse no gufashwa mu bibazo bigiye bitandukanye birebana n'ubuzima ndetse n'imbagukiragutabara ishinzwe kwihutana abarwayi kwa muganga mu gihe barembye cyane cyangwa se bafite ikibazo cyihutirwa.

Ni ukurakara k'umuntu, gushobora guterwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bigatuma umuntu atikontorora, akagaragaza amarangamutima ye ku ruhu.

Ni abana batoya bishimye cyane bameze neza, badafite ikibazo cyo mu mutwe, banejejwe no gufata ifoto bishimye cyane.

Amenyo ari mu bice by'umubiri bituma dusa neza. Gukorera isuku amenyo ni byiza ku mubiri wacu kuko ibi bituma duhorana akanyamuneza ku isura yacu, bityo bigatuma duhumura neza mu kanwa.

N'abakecuru basheshe akanguhe, bishimye cyane banejejwe n'imikino bari gukina, mu rwego rwo kugira ngo ibafashe, mu gutuma iminsi y'isunika no gutuma ubuzima bwabo bujya ku murongo.

Ni abakecuru batatu bishimye barimo bafata ifoto na terefone, mu rwego rwo kugira ngo ngo basaze bishimye kandi basaze neza, bitabwaho kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kujya ku murongo.

Ni abasaza babiri bishimye, barimo banywa amazi bavuye muri siporo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze basaze neza no kwitabwaho kugira ngo babashe kurangiza izabukuru bameze neza.

Umusaza n'umukecuru bakenyenye bambaye imikenyero bari mu kirori bishimye banejejwe n'ibyo babona n'ibyo bari kumva.

Muganga ushinzwe gukangurira abantu mu kurya ibiryo biva mu bidukikije, nk'imbogarwatsi ndetse n'ibindi kuko bidufasha mu kurinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, zirimo nk'imirire mibi ndetse no kubura vitamini mu mubiri wacu ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ni itsinda ry'abantu bashinzwe kwita ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, yaba ibibazo by'indwara z'umubiri, indwara zo mu mutwe ndetse n'izindi.

Ni ivuriro ryita ku bantu bafite ibibazo by'ubuzima harimo nko kuribwa umutwe, kuribwa mu nda ndetse n'indwara z'uruhu zirimo nk'ise, amahumane ndetse n'ibindi.

Ni uburiri bukoreshwa kwa muganga bwo gushyiraho abarwayi mu gihe barwaye barembye batabasha guhagarara cyangwa se batabasha gutambuka kwa muganga.

Ni inzu harimo ibikinisho by'abana, abana baza gukiniraho bakanezerwa, bakumva baguwe neza. Kuko ibikinisho bidufasha mu gususurutsa abana, abana bigatuma bishima bagakura neza.

Ni inyubako iherereye mu bitaro yagenewe kurwariramo ababyeyi bamaze kubyara abana bakiri batoya ,bakitabwaho kugeza igihe basezerewe mu bitaro.

Abantu bategereje kwakirwa bari aho bakirira abantu ku kigo nderabuzima, bagiye kwisuzumisha uko ubuzima bwabo buhagaze niba uri mu kangaratete cyangwa bumeze neza.

N'inyubako y'ibitaro, ishinzwe kwita ku barwayi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, bakitabwaho kugeza bakize bagasubira mu buzima bwabo busanzwe bwa buri munsi.

Ni ikigo nderabuzima giherereye i Kigina, icyo kigo kikaba gishinzwe kwita ku barwayi bagiye batandukanye, barwaye indwara nyinshi cyane ndetse n'abadamu batwite baje kuhabyarira, mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kwitabwaho.

U Rwanda rudushishikariza mu gukora siporo, bikaba bituma abanyarwanda bagira ubuzima buzira umuze, bidufasha no mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Ni imikino igiye itandukanye ifasha abantu mu gutuma ubuzima bwabo busubira ku murongo, ubuzima bwabo bukabasha gukomera, bukabasha kurinda indwara no kurinda ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya bitewe n'intege nkeya z'umubiri.

Ni imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye idufasha kugorora umubiri wacu, ikagorora amagufwa bigatuma ubuzima bwacu bubasha kuba indahangarwa ku bijyanye n'indwara ugakomera ndetse umuntu akabasha gutekereza neza amaze gukora iyi myitozo ngororamubiri.

Ni umuntu urimo ukora imyitozo ngororamubiri imufasha gutuma ubuzima bwe bujya ku murongo ndetse no gutuma ubuzima bwe n'umubiri we ukomera ukagira imbaraga, ukabasha kugira ubudahangarwa bwo kurinda indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'umuvuduko w'amaraso na diyabete.

Ni umukinnyi wari uri mu kibuga gukina umupira ari guhabwa ubutabazi bw'ibanze kuko yavunikiwe mu kibuga, ari gufashwa n'aba Croix rouge mu kumutabara by'ibanze.

Ni kimwe mu bikoresho bidufasha mu gutuma ubuzima bw'abantu butari bumeze neza busubira ku murongo kuko kidufasha kugorora kimwe mu bice by'umubiri kitameze neza kigasubira mu murongo bikamera neza.

Ni amazi yifashishwa mu kunyobwa n'ingeri nyinshi z'abantu harimo nk'abavuye muri siporo, abo umutwe uri kurya ndetse n'abandi bafite indwara nyinshi zitandukanye kuko adufasha mu kuvura indwara nyinshi cyane.

Ni imyitozo ngororamubiri, idufashakura mu kugorora amaguru yacu, bigatuma amaguru yacu abasha gukomera, akaba indahangarwa mu kurinda indwara zigiye zitandukanye, ndetse umuntu akagira ubuzima buzira umuze.

ni imiti ikozwe mu mavuta ikaba ishobora kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo n'indwara z'uruhu gutuma uruhu runyerera rukamera neza cyane.

Ni imiti yo kwa muganga yifashishwa mu kuvura abantu bagiye batandukanya bafite indwara zigiye zitandukanye, ikorwa mu bimera biri mu bidukikije. Ikaba ifasha abantu mu gusubira mu buzima bwabo bwa buri munsi bafite ubuzima buzira umuze kubera ko bavuwe n'iyi miti.

Ni ibimera bisa icyatsi, bikora ibiryo, bihaza inyamaswa ziba ku isi, bigakurura imvura, bikazana ba mukerarugendo mu gihugu cyacu.

Ni imiti ituruka mu bimera idufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inzoka, indwara y'ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye.

Ni imiti ikorwa mu bimera ikaba idufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nko kuribwa umutwe cyane, kugira umuriro mwinshi ndetse binatwongerera intungamubiri mu mubiri wacu kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kujya ku murongo.

Ni umuti ukorwa mu bimera ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye nyinshi harimo nk'inzoka ibisebe, indwara ziterwa n'uruhu harimo nk'ise ise amahumane ndetse n'izindi.

Ni imiti abantu banywa, ibafasha mu gutuma ubuzima bwabo, bwongera gusubira ku murongo, bikabongerera zimwe mu ntungamubiri, mu mubiri wabo, kugira ngo ubashe gukora neza, ndetse kugira ngo ubashe kuzira umuze.

Ni imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi, iyo miti ikaba ituruka ku bimera ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara zimwe nyinshi zitandukanye.

Ni ibimera bihingwa ndetse bikaniyeza, bidufasha mu kuvamo imiti igiye itandukanye, idufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inzoka, ibicurane, inkorora ndetse n'izindi nyinshi.

Ni imiti ikozwe mu bimera idufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo: indwara z'uruhu, harimo n'ise, amahumani ndetse n'izindi nyinshi mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwacu bubashe gusubira ku murongo bubashe kugira umuze...

N'ibyatsi bimwe mu bidukikije byifashishwa bikorwamo imiti yo kuvura indwara nyinshi zigi zitandukanye harimo nk'inzoka kuribwa umutwe ndetse n'indwara z'uruhu mu kuzivura.

Ni igiti bita umuravumba, kidufasha kuvura indwara zimwe zitandukanye harimo nk'iyo bita inkorora n'ibicurane no gufungana mu muhogo ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye.

Ni igiti cyiswe umuravumba, kikaba cyariswe utyo n'abakurambere bacu. Aho cyabafashaga mu kuvura abantu babo barwaye mu nda, mu gufungana mu muhogo ndetse n'umutwe.

Ni imiti ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye, harimo nk'icyayi, iyo miti ikaba idufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, abantu bakabasha gusubira mu buzima bwabo bwa buri munsi, bafite ubuzima buzira umuze.

Ni ibimera byifashishwa mu buvuzi ku bantu barwaye indwara zigiye zitandukanye, iki cyatsi gikoreshwa mu kuvura indwara harimo n'indwara z'uruhu, indwara y'inzoka ,ndetse n'izindi.

Ni itsinda ry'abantu riri mu mirima irimo ibimera bita inanasi, bishobora kuvamo umuti ndetse uwo muti ukaba ushobora kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara ya diyabete yo kubura isukari mu mubiri ndetse n'izindi.